Umugabo ari kwa muganga yagiye kwivuza amenyo ari kumwe n'umudogiteri w'umumama wambaye ga z'ubururu akaba afite ibikoresho bimwe na bimwe byo kwa muganga, uyu mugabo ndabona ameze nkaho ari kumwenyura yishimiye uwo bari kumwe.

Inyubako y'ibitaro nziza yubakishije amatafari ahiye, imbere yaho hahagaze abantu, imodoka, haparitse imodoka, hari umuhanda mwiza, ubusitani, hari n'cyapa kigaragaza ibyo inyubako ikora.